Imbuga nini igizwe n'ubutaka iriho abanyeshuri batanu bambaye impuzankano y'ishuri, bane muri bo barunamye, umwe muri bo arahagaze, yambaye ijipo ndetse n'ishati y'umweru. Inyuma yabo hari indabo nziza ziri mu ibara ry'umuhondo.

Ivomero rya nayikondo ririho umukobwa wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara imbere yaryo hari abana bane ndetse n'utujerekani duto hirya yaryo harimo iririmo ibara ry'umweru ndetse n'ibiti bifite amashami maremare n'imisozi.

Ivomero rusange risizwe amarangi atandukanye higanjemo iry'ubururu ririmo umukobwa wambaye umupira w'umukara, imbere ye hari ibijerekani ndetse n'abantu baje kuvoma, amazi meza ni ingenzi kuko atuma tugira ubuzima bwiza.

Icyumba cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, kirimo ikibaho gifite ibara ry'umukara, harimo abana batatu, umugore imbere ye hari igikapu ndetse n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari gupima umwana wambaye ishati y'ubururu.

Inzu yubakishijwe amabuye, iriho icyapa kirimo ubuso bw'umweru, kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, imbere yayo hari imbaga y'abantu nyamwinshi, higanjemo abagabo, abagore ndetse n'abakobwa, bamwe muri bo bambaye impuzankano y'abaganga, igizwe n'amataburiya ari mu ibara ry'umweru.

Umugezi wifashishwa mu gutanga amazi mu baturage, uriho abana babiri, umwe yambaye imyenda idozwe mu gitenge, undi yambaye umupira w'umutuku, kunywa amazi ni ingenzi kuko bidufasha kwirinda indwara ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ifite idirishya ririmo ibirahuri, imbere yayo hari umukobwa ufite imisatsi y'umukara, wambaye ishati y'icyatsi, isaha y'umweru ku kuboko, ndetse yambaye ijipo y'umukara. Imbere ye hari imiti itandukanye, ndetse n'umugabo wambaye ijiri y'umukara, ishati y'umweru, ndetse n'amarinete.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hahagaze abantu benshi, higanjemo abagore n'abagabo. Harimo abaganga babiri, bambaye impuzankano y'abaganga, irimo ibara ry'ubururu. Harimo kandi umugabo wambaye ikoti ry'umukara, amarinete ndetse n'ishati y'umweru. Ku ruhande hari icyapa gifite ubuso bw'ubururu, gishushanyijeho muganga, wambaye impuzankano, iri mu ibara ry'umweru.

Inzu nziza irimo urumuri, irimo abantu batandukanye bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'amakarita y'akazi mu ijosi, hari umugabo wambaye isaha ku kuboko n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara, hagati yabo hari icyapa cya UNICEF gifite ubuso bw'ubururu, cyanditswemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umugezi wa nayikondo uriho umwana w'umukobwa wunamye wambaye agapira k'umweru karimo utudoma tw'umukara ndetse n'agakanzu, imbere ye hari indabo zirimo ibara ry'umweru, hirya ye gato hari ibiti binini bifite amababi y'icyatsi.

Imbaga y'abana nyamwinshi, bamwe barahagaze abandi barunamye, mu bahagaze hari uwambaye agapira kiganjemo amabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru ndetse yambaye ishapule, mu bunamye harimo uwambaye ishati y'ubururu, abana bunamye bari gukaraba ku kumugezi ndetse imbere yabo hari ibase y'umutuku.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kirimo abantu batandukanye, higanjemo abaganga ndetse n'abarwayi. Harimo umukecuru witeze igitambaro, uri guhabwa serivise n'umuganga w'umugore wambaye ishati y'ubururu ndetse na ga z'umweru.

Icyumba kirimo urumuri, kirimo abantu 5 harimo abirabura 4 ndetse n'umuzungu 1. Muri bo harimo umugabo wambaye amarinete, ikarita y'akazi iri mu ibara ry'umweru mu ijosi ndetse n'ikoti ry'umukara.

Umwana w'umwirabura wambaye impuzankano y'ishuri irimo ishati y'umuhondo ndetse n'ikabutura y'ubururu ari guseka . Inyuma ye hari ikizenga kirimo amazi mabi ndetse n'abana benshi.

Amazi mabi y'ibiziba hariho abana babiri bari kuvoma bakoresheje ibijerekani biri mu ibara ry'umuhondo, harimo umukobwa wambaye isengeri ndetse n'ijipo y'umukara. Amazi mabi atera indwara ni ngombwa kuyirinda.

Icyumba kinini cyo ku bitaro, kirimo imbaga nyamwinshi, higanjemo abagore bicaye bafite abana, harimo kandi umugore uhagaze, witeze igitenge, uteruye mwana, ndetse ufite urupapuro mu ntoki, kwita kubana ni ingirakamaro, kuko nibo bavamo abayobozi b'ejo hazaza.

Inzu ifite urugi rukozwe mu mbaho, imbere yayo hari umukobwa wambaye ingofero ari guseka ndetse akenyeye igitenge, arunamye ari gukaraba akoresheje kandagira ukarabe yubatswe mu duti dutatu ndetse hariho akajerekani kari mu ibara ry'umweru.

Ahantu hateraniye abantu benshi, hari tapi y'icyatsi, hari abagore, umwe muri bo yambaye ikanzu y'umukara iririmo tudomo tw'umweru ndetse afite ibisuko by'umukara, imbere yabo hari utwana dutoya, twambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara ry'ubururu.

Ivomero rusange ryifashishwa mu gutanga amazi mu baturage, iriho ibijerekani bifite amabara atandukanye higanjemo ay'umuhondo ndetse n'ubururu, hariho umwana w'umukobwa usutamye uri kuvoma amazi akoresheje ibiganza, wambaye ishati idozwe mu gitenge.

Umugabo ufite uruhara, wambaye umupira wa oranje ndetse afite igikapu mu ntoki, yambaye ikoboyi, ari gusuhuza umwana muto ufite imisatsi y'umukara, inyuma yabo, hicaye imbaga y'abantu nyamwinshi, higanjemo abana.

Imbuga nini y'igitaka, imbere yayo hari igipangu, cyubakishijwe ibyuma, mo indani hari utuzu tubiri, twubakishijwe amatafari ahiye, dufite inzugi z'ubururu. Imbere yatwo hari umugabo wambaye ipantaro n'ishati.

Igice cy'icyaro, kigizwe n'imisozi, iriho ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi, hari umugezi wifashishwa mu gutanga amazi, uriho abantu batandukanye, harimo umugore ukenyeye igitenge, wambaye agapira k'umutuku.

Imbuga y'igitaka, yubatswemo agatandaro kanitseho ibyombo, byiganjemo ibikombe n'amasahani, iruhande rw'ako hari insina, ndetse n'uruzitiro, agatandaro ni ngombwa mu buzima bwa muntu, kuko kamufasha kumutsa ibikoresho.

Ivomero rusange ryifashishwa mu gutanga amazi, hari umubyeyi uhetse umwana, ukenyeye igitenge, uri koza umufuniko ndetse imbere ye hari indobo iri mu ibara ry'umuhondo, amazi meza ni ingenzi kuko yifashishwa mu gukora imirimo itandukanye.

Ivomero rusange ririho umugore ubyibushye wambaye ijire rya oranje, umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, imbere ye hari umugabo uri kuvoma wambaye ikote ndetse n'ipantaro, hirya ye gato hariho umugore ukenyeye igitambaro mu mutwe.

Ivomero rusange ryifashishwa mu gutanga amazi mu baturage, ririho umwana wunamye, uri kuvoma wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ikabutura y'ubururu, amazi meza mu ubuzima bwa muntu ni ingenzi, kuko yifashishwa mu gukora imirimo itandukanye.

Inzu nziza isizwe irangi ryumweru ifite inzugi ziri mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hateraniranya abantu batandukanye higanjemo abagabo, abagore, ndetse n'abana. Hari abagabo bambaye ingofero ndetse n'abana bambaye amashati ari mu ibara ry'umuhondo.

Ikigo cy'amashuri kirimo amazu atandukanye yubakishijwe amatafari ahiye, kirimo umugezi wifashishwa mu gutanga amazi. Imbere yaho hari umunyeshuri w'umukobwa wambaye impuzankano y'ishuri igizwe n'ikanzu y'ubururu, umupira w'umweru ndetse n'inkweto z'umweru, iruhande rwe hari indobo yifashishwa mu kubika amazi.

Umugezi wa nayikondo wifashishwa mu gutanga amazi mu baturage, uriho abagore babiri bari gucunda icyuma gikoreshwa kugira ngo amazi aze. Imbere yawo hari umugore uri kuvoma, wunamye akoresheje indobo.

Icyumba gikorerwamo inama kicayemo abana batandukanye, higanjemo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, imbere yabo hicaye abagore batanu ndetse n'umugabo umwe, ku ruhande rwabo hari televiziyo nini irimo umugabo uri kuvugira kuri mikoro wambaye ikoti ry'umukara, isaha ku kuboko, karuvati ndetse n'ishati y'umweru.

Umwana w'umuhungu muto, arunamye ndetse akandagiye mu mazi, yambaye agasengeri ndetse n'ikabutura, ari kuvoma amazi akoresheje akajerekani, amazi y'ibiroha ni mabi kuko atuma turwara indwara zitandukanye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo umuganga ufite imisatsi y'umukara, wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga, yicaye ku gatebe kari mu ibara ry'umukara, ari kuvura umwana uterewe n'umugore, wambaye umupira.

Ivomero rusange ririho imigezi ibiri yubatse ku gikuta cyubakishijwe sima ririho abantu babiri barikuvoma. Umugore uteze igitambaro wambaye umupira ndetse akenyeye igitenge arikuvoma akoresheje ikijerekani kiri mu ibara ry'umuhondo.

Icyumba kinini kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umweru ndetse harimo abana batandukanye higanjemo abahagaze ndetse n'abicaye, abazungu ndetse n'abirabura, inyuma yabo hari icyapa kirimo ubuso bw'ubururu cyanyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba cy'amashuri, gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo ikibaho, kirimo ibara ry'umukara, cyanditsweho amagambo arimo ibara ry'umweru, kirimo abanyeshuri batandukanye, higanjemo abakobwa n'abahungu, bambaye impuzankano y'ishuri, bari kurya.

Ivomero rusange rya nayikondo, ririho umugore uri gucunda kugira ngo amazi aze, imbere gato hari abana bari kuvoma, hirya yabo hari agahanda karimo imodoka nziza iri mu ibara ry'umweru.

Icyumba cyiza gikorerwamo inama, cyicayemo imbaga y'abantu nyamwinshi, higanjemo abazungu ndetse n'abirabura. Imbere yabo hari ameza ateretseho amazi. Muri bo harimo umuzungu, wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvati.

Inzu isizwe amarangi atandukanye, ifite amadirishya ndetse n'urugi ruriho irido, imbere yayo hari abana, umugabo wambaye ingofero y'abayisilamu wicaye, imbere ye gato hari umugabo uhagaze, wambaye ishati y'umweru ndetse n'undi wambaye ijire y'umukara, umupira w'umutuku, ufite igikoresho mu ntoki, kiri mu ibara ry'umweru.

Icyumba cyiza kirimo urumuri kirimo abantu nyamwinshi higanjemo abagore ,abagabo ndetse n’abana, abirabura n'abazungu iruhande rwabo hari amadarapo rimwe risa ubururu irindi nidarapo rya repubulika y'urwanda.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo abantu batandukanye, higanjemo abaganga ndetse n'abarwayi. Hari kandi umugabo wambaye itaburiya y'umweru, uri gutanga serivisi z'ubuvuzi ku mwana muto uryamye.

Icyumba gikorerwamo inama, gifite amadirishya manini, ariho amarido, kiririmo urumuri, cyicayemo abantu batandukanye, biganjemo abagabo, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara. Imbere yabo hari ameza ariho igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'amacupa y'amazi.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo abantu batatu, umuganga ufite ibisuko by'umukara, wambaye amaherena ndetse n'itebura y'umweru, ari guha umuti umwana wambaye agapira k'umweru, uteruwe n'umubyeyi ufite imisatsi y'umukara uri guseka.

Icyumba gisizwe irangi ry'umweru, kirimo ibiganza bibiri byambaye ga byateye urushinge umuntu wakunje umupira, serivisi z'ubuvuzi ni ngombwa kubera ko zituma abaturage babaho neza ndetse zikabarinda indwara, zabagiraho ingaruka mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inzu ifite irangi ry'umuhondo imbere yayo hicaye abantu batatu, umugore ufite imisatsi y'umukara wambaye itaburiya y'ubururu ndetse akenyeye igitenge, imbere ye gatoya hari umugabo wambaye ishati y'umweru wafashe ku rutugu umugore wambaye ikoti ry'umukara.

Umujyi urimo inyubako zitandukanye, higanjemo izigeretse, zifite amabati, ndetse n'amadirishya manini, arimo ibirahuri, zisizwe irangi ry'umweru. Harimo inyubako irimo amazi, yubatswe mu ishusho y'uruziga. Amazi ni ingirakamaro, kuko yifashishwa mu mirimo itandukanye ya buri munsi.

Icyumba kinini kirimo urumuri, kirimo umugabo wambaye amarinete, ishati y'umweru, karuvate n'ikoti riwi ibara ry'umukara, imbere ye hari agakoresho gaterekwaho indangururamajwi, iruhande rwe hari intebe zitandukanye, inyuma ye hari icyapa gifite ubuso bw'ubururu.

Inzu nini isizwe amarangi atandukanye imanitswemo ifoto ya perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, hasi yayo hari intebe z'umukara imbere yazo hari abantu babiri, umugabo wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umugore wicaye iruhande rwabo hari ameza atandukanye ariho ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye higanjemo za mudasobwa.

Umuganga w'umugore, wambaye agapfukamunwa, ishati y'umweru, ari gutangage serivisi z'ubuvuzi ku mugore wicaye, wambaye umupira w'umweru ndetse n'agapfukamunwa, inyuma ye hari umugabo wambaye amarinete ndetse n'agapfukamunwa.

Ivomero rusange ryifashishwa mu gutanga amazi ririho abantu babiri, umwana wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'ubururu ari kuvoma, hejuru ye hari umwana wambaye iniforume iri mu ibara rya kaki, hirya yabo hari abanyeshuri benshi bari kuva ku ishuri ndetse n'imisozi.

Icyapa cya Unicef gifite ubuso bw'umweru, kirimo umugore uteruye mwana bari mu ruziga ndetse bari mu ibara ry'ubururu, Unicef ni ingirakamaro kubera ko ifite mu nshingano uburenganzira bwo kwita ku kiremwamuntu by'umwihariko abana.

Ivomera rusange rya nayikondo ririho abantu baje kuvoma, higanjemo abana. Hari kandi umukobwa muto wambaye akajipo k'umutuku ndetse n'agapira k'umweru. Inyuma yaryo hari umusozi uriho amabuye ndetse n'ibyatsi.

Umugezi wa nayikondo uriho ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kuvoma amazi, harimo ibijerekani, amabase ndetse n'indobo. Inyuma yaho hari abana, iruhande rwaho gato hari umugore uri kumwe n'akana gato.

Icyumba kirimo urumuri, kirimo abantu benshi bicaye, higanjemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari umugabo uhagaze, ufite mikoro, wambaye ishati y'umweru n'ikoti ry'umukara. Inyuma ye hari icyapa kiri mu buso bw'umweru, gifite amagambo yanditsweho mu ibara ry'umweru ndetse kiriho ikarita y'u Rwanda irimo umugore.

Icyumba cyiza gisizwe irangi ry'umuhondo, gifite parafo y'umweru, kirimo intebe zitandukanye ziganjemo izifite amabara y'umweru n'umukara, kirimo abagore benshi bari kubyina, umwe muri bo arambuye amaboko yambaye umupira w'umukara, ikabutura y'igitenge.

Imbaga y'abantu nyamwinshi, higanjemo abagore n'abagabo, bahagaze imbere y'igihuru, kirimo akazu gatoya, kubakishejwe amabati. Hari kandi abagore batatu, bafite urupapuro runini, rwanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Icyapa kigizwe n'ubuso buri mu ibara ry'umweru, cy'ikirango cya WASAC gishushanyijeho izuba ndetse n'igitonyanga cy'amazi, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, agaragaza ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi mu baturage, WASAC.

Icyumba gikorerwamo inama zitandukanye, cyicayemo imbaga y'abantu nyamwinshi, higanjemo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru imbere ye hari icupa ririmo amazi.

Abana b'abakobwa benshi bambaye imipira y'ubururu iriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru agaragaza ikigo cya unicef gifite mu nshingano guharanira uburenganzira bw'umwana, inyuma yabo hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye ifite umuryango w'ubururu.

Umugabo w'umwirabura wambaye amarinete, ikoti ry'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvati, iruhande rwe hari umugore w'umuzungu wambaye ipantaro y'umukara, bombi bafashe ku gikapu gisa n'umukara cyanditsweho amagambo mu ibara ry'umweru, avuga gusura u Rwanda.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ita rimurika, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byiganjemo intebe zicaraho abarwayi, ziri mu ibara ry'ubururu. Kwivuza ni ngombwa kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugore wikoreye indobo y'umutuku, witeze igitambaro wambaye ishati ndetse akenyeye igitenge afite n'indobo y'umuhondo mu ntoki, imbere ye hari ibiti biteye mu murima ufite ibyatsi byumye, imbere yabyo hari inzu.

Icyumba kinini gikorerwamo inama, kirimo imbaga y'abantu nyamwinshi, higanjemo abagore, abagabo, kirimo kandi abirabura ndetse n'abazu, kirimo amatsinda y'abantu bicaye, imbere yabo hari amameza ariho ibitambaro by'umweru.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gifite idirishya rifite ikirahuri cy'umukara, kirimo abaganga batandukanye, harimo abambaye impuzankano y'ubuganga. Kirimo kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura. Kwivuza ni ingenzi kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, iriho icyapa gifite ubuso bw'umweru, imbere yacyo hari abantu nyamwinshi, biganjemo abamama, abazungu ndetse n'abagabo, bamwe barahagaze abandi barasitanye, mu bahagaze harimo umugabo w'igikara wambaye marineti y'umukara ndetse n'ikoti ry'umukara.

Inzu isizwe irangi ry'umuhondo, iruhande rwayo hari igiti, imbere yayo hari imbaga nyamwinshi, higanjemo abagabo n'abagore, bambaye impuzankano y'akazi, ndetse n'amakarita y'akazi, imbere yabo hari umugabo w'umuzungu, wambaye ikote ry'umukara.

Icyumba giteraniyemo bantu benshi, gifite parafo iri mu ibara ry'umweru, kirimo abagabo babiri: wambaye ishati y'umweru ndetse ahetse igikapu. Imbere ye hari umusore wambaye umupira w'umuhondo, ufite agashumi kari mu ijosi, kari mu ibara ry'umutuku.

Ahantu hari imbaga nyamwinshi, higanjemo abamama baje gukingiza abana, hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, uri gutera umwana urushinge, gukingiza ni ngombwa, kuko bituma umwana akura atarwaragurika.

Ivomero rusange ryifashishwa mu gutanga amazi mu baturage, ririho ibijerekani bitandukanye, higanjemo ibiri mu ibara ry'umuhondo, ririho abantu benshi, harimo abagabo ndetse n'abagore n'abana, hariho umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku.

Ivomero rusange ririho imigezi ibiri, ririho umwana mutoya uri guseka, uri kuvoma akoresheje igikombe, arunamye yambaye agapira kariri mu ibara rya oranje, amazi meza ni ingenzi kuko adufasha gukora imirimo itandukanye yo mu rugo.

Abana benshi, bahetse ibikapu, bambaye impuzankano y'ishuri, umwe muri bo yambaye ishati n'agapira by'umweru, ari kunywa amazi, inyuma yabo hari igiti, gifite amashami y'icyatsi, maremare, kunywa amazi ni ingirakamaro kuko bifasha umubiri gukora neza.

Inzu isizwe irangi ry'umuhondo, ifite amadirishya mu ibara ry'umukara, yicayeho abana batandukanye, higanjemo abagore. Umwe muri bo yambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe ndetse ateruye umwana. Imbere ye hari umugore uri gusoma, wicaye, wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Imbangukuragutabara, iri mu ibara ry'umweru nyuma y'aho hari urujya n'uruza rw'abana higanjemo abana, abagore, abakecuru, ndetse n'basaza. Hirya gato hari amatente y'umweru. Imbere yayo hari inzu yubakishijwe amabuye, imbere y'iyo nzu hari idarapo ry'igihugu cy'uRwanda.

Uruganda runini rurimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, byiganjemo ibiri mu ibara ry'ubururu, rurimo urumuri ndetse harimo umugabo wambaye kasike y'umweru ndetse n'imyenda y'umukara. Inganda ni ingirakamaro, kuko zitugezaho ibikoresho bitandukanye, birimo imiti ndetse n'ibindi.

Icyumba kirimo sima, kirimo umuganga ufite ibisuko by'umukara, wambaye amaherena, ndetse n'itaburiya y'umweru, akenyeye igitenge, ari guha umwana wambaye agapira k'umweru, ndetse n'akagofero karimo ibara ry'umuhondo n'icyatsi, umuti, uteruwe n'umugore wicaye ku ntebe, uri guseka.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, cyicayemo abaganga batatu, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru. Harimo umuganga w'umugore, ufite ibisuko by'umukara, wambaye ga z'umweru, ari gutera urushinge umurwayi, wicaye wambaye agapfukamunwa.

Umugore w'umwirabura ufite ibisuko by'umukara wambaye ijire y'umuhondo, inyuma ye hari ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibirungo ndetse na sositomati, ibirungo ni ingirakamaro kuko bidufasha mu guteka imboga.

Icyumba cyiza gikorerwamo inama kirimo abagore bane, batatu bicaye imbere yabo hari amacupa y'amazi, umwe muri bo arahagaze, yambaye umupira w'umweru afite indangururamajwi. Inyuma ye hari icyapa kigizwe n'amabara y'umweru n'icyatsi.

Umugore munini w'igikara, afite ibisuko, yambaye umupira munini ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Yicaranye n'umugore wambaye igitambaro mu ijosi, gifite ibara ry'umutuku. Inyuma ye kandi, hari shitingi imanitse ku gipangu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Icyapa gifite ubuso bw'ubururu, kiriho umugabo w'umwirabura, wambaye ishati ndetse afite indangururajwi mu ntoki ze; cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, agaragaza ko ari umunsi mukuru wahariwe kuvura indwara zo mu mutwe.

Icyumba kirimo imbaga nyamwinshi y'abana higanjemo aba guseka kirimo umwana w'umukobwa wamanitse amaboko, wambaye agakoti k'umweru ndetse n'agakanzu k'umuhondo. Inyuma ye hari umwana w'umuhungu wambaye umupira w'umutuku.

Umwana wambaye umupira w'umweru ari kurira ndetse yifashe mu mutwe, inyuma y'a hari umugore ukinyeye igitenge mu nda wambaye ijipo ndetse n'umupira afite inkwi, inyuma ye kandi hari imbaga nyamwinshi yiganjemo abagabo.

Icyumba gisize irangi ry'umuhondo, kirimo icyapa gifite ubuso bw'umweru, ndetse n'urw'ubururu, kiriho idarapo rya leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse niryo iBurundi. Imbere hacyari umugabo wambaye agapira k'umutuku, imbere ye hari abagore, higanjemo abahetse abana.

Umugabo ufite ibisuko ndetse n'ubwanwa bw'umukara aricaye yambaye isengeri ndetse n'ikabutura, yambaye igipine cy'imodoka mu nda, iruhande rwe hari umugabo wambaye inkweto z'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi.

Ikamyo iri mu ibara ry'umweru, iparitse mu kibuga, yanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu agaragaza ko itangirwamo serivise z'ubuvuzi. Hirya yayo, hari imbaga y'abantu nyamwinshi, biganjemo abicaye.

Umugore ufite ibisuko by'umukara wambaye amarinete ndetse n'amaherena ku gutwi, wambaye baji y'akazi mu ijosi, ufite ikaramu mu ntoki ndetse wambaye ishati y'umweru, imbere ye hari amacupa atatu y'amazi ndetse na mudasobwa, inyuma ye hari imbaga nyamwinshi yiganjemo abagore.

Icyumba giteraniyemo imbaga nyamwinshi, gisize irangi ry'umuhondo, kirimo urumuri, kirimo abantu higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Inyuma yabo ku gikuta hari ifoto iriho Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Burundi ndetse n'icyapa cya UNICEF.

Ibitaro bikuru by'akarere biri mu nzu isizwe irangi ry'umweru, igereretse kabiri ifite amadirishya manini arimo ibirahure, imbere yayo hari ikibuga kirimo ibyatsi ndetse n'ibyapa biri mu buso bw'umweru byanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Umuyoboro wa rigori ucamo amazi, hicaye umugabo ukenyeye igitenge, ufite ishashi mu ntoki ndetse iruhande rwe hari imyanda itandukanye, ni ngombwa kugira isuku, kuko iyo tugize umwanda bidukurura indwara za hato na hato.

Umubyeyi wambaye urunigi mu ijosi, yambaye umupira urimo uturongo tw'umweru ndetse akenyeye igitenge. Afashe ku mwana, wambaye ishati yacikaguritse. Iruhande rwe, hari umugabo wambaye ishati ifite imifuka ibiri ndetse afite inkoni.

Inzu yubakishije imbaho, imbere yayo hiciye abagore babiri, umwe yambaye agapira ka oranje ndetse ateruye umwana, undi yambaye agapira k'umweru arabyibushye afite telefone mu ntoki, ikindi kiganza gifite akuma gapima umuriro kazwi nka terimometa.

Inzu ishaje ishashemo igitenge ndetse n'umukeka wicayeho umugabo ukenye igitenge, ndetse wambaye umupira w'ubururu uririmo uturongo tw'ibara ry'umweru, yifashe mu mutwe, ni ngombwa kurwanya ubukene kuko butuma tugira ubuzima bubi.

Umugore mwiza uri guseka ufite umusatsi w'umukara ndetse n'amenyo y'umweru, yambaye udukomo ku maboko tubiri ndetse n'ishanete mu ijosi, yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi yicaye mu kabaraza kubabakishijwe utwuma ndetse n'inkingi isizwe irangi ry'umweru.

Inzu iteye y'ibyondo ifite umuryango ukozwe mu mbaho, imbere yayo hicaye abantu higanjemo abana, hari umubyeyi wicaye ukenyeye igitambaro mu mutwe utereye umwana muto, imbere ye hari intara yifashishwa mu kugosora imyaka runaka, harimo nk'ibishyimbo ndetse n'ibigori.

Imbaga y'abana benshi batandukanye, harimo uwambaye bodaboda z'icyatsi, ipantaro ndetse n'umupira. Iruhande rwe harimo umwana mukuru wambaye ikoti ry'umukara, uri guseka. Inyuma yabo hari ibyatsi byinshi byumye.

Icyumba kinini cyo ku bitaro, giteraniyemo abantu bicaye bakoze uruziga, higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Mu ruziga hagati harimo abantu bane, harimo umugore wambaye ijipo, ifite ibara ry'ubururu.

Imbuga nini yubakishijwe amapave, irimo abantu nyamwinshi, higanjemo abicaye ndetse n'abahagaze, harimo abagabo ndetse n'abagore, abenshi muri bo bambaye imyenda y'umukara, mu bicaye hari umugabo wambaye karuvati, ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, inyuma yabo hari inzu iriho icyapa gifite ubuso bw'umweru.

Icyumba gikorerwamo inama giteraniyemo abantu batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'ubururu. Umwe muri bo yambaye ishati y'ubururu. Imbere yabo hari ameza ateretseho amazi ndetse n'ibikapu bitandukanye. Hagati yabo hahagaze umugore wambaye ikanzu y'umweru wambaye ikote ry'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu rwiganjemo abana, abagore, abagabo ndetse n'abakecuru bafite idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, muri bo harimo umwana wambaye impuzankano y'ishuri uri guseka ufite umuhanga.

Umugabo utambaye inkweto yicaye ku gatebe k'urubaho, yambaye ishati y'ubururu, imbere ye hari abagore bane, umwe muri bo yambaye umupira w'umukara ndetse akenyeye n'igitenge, undi yambaye ikanzu ndetse afite ikaramu n'urupapuro mu ntoki.

Itsinda ry'abantu benshi, higanjemo abagabo bafashe ku rupapuro ruri mu ibara ry'umweru, harimo umugabo ubyibushye wambaye ikoti ry'umukara, inyuma yabo hari imodoka ya tagisi iri mu ibara ry'umweru ndetse n'amatente atandukanye.

Icyumba gisizwe irangi ry'umweru, kirimo agakoresho gakozwe muri purasitike, karimo udukinisho dutandukanye. Iruhande rwako hari abagore babiri, umwe muri bo yambaye ikanzu y'ubururu, afite agakinisho k'igisamagwe mu ntoki, imbere ye hari umugore wambaye ikanzu y'umukara.

Umugore ufite ibisuko by'umukara yambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati iri mu ibara ry'umweru aricaye, iruhande rwe hari umuti wifashishwa mu gusukura ni ntoki. imbere ye hicaye abagore babiri harimo umwe wambaye agapfukawa ndetse afite n'urupapuro rumwe, ibara ry'mweru inyuma yabo ndetse no ku mpande hari inzu zishaje zubakishijwe ibyatsi.

Umwana w'umwirabura, ufite imisatsi y'umukara, wambaye amaherena ku matwi, yambaye agasengeri k'umuhondo, imbere ye hari muganga, wambaye ga z'umweru, ufite akuma kifashishwa mu gusuzuma amenyo. Kwivuza ni ingenzi kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Icyumba kinini gikorerwamo ubushakashatsi, gifite amarido y'umweru, kirimo icyuma cyifashishwa mu gukora ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye ndetse n'umuganga ufite marikere mu ntoki, wambaye itaburiya y'umweru, amarinete ndetse n'agapfukamunwa.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo urumuri, harimo abantu babiri, umuganga w'umugore wambaye ga ziri mu ibara ry'ubururu ndetse ari guha serivisi zo gusukura mu kanwa umugabo ufite imisatsi y'umukara ndetse n'ubwanwa, wicaye ku ntebe irimo ibara ry'umweru.

Inzu yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, irimo amatara amurika, televiziyo ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura, ni ngombwa ko iyo umuntu arwaye agomba kwegera ibitaro, agahabwa serivisi zinoze kandi nziza.

Umugabo ufite ubwanwa wambaye umupira w'umweru, afite mu kiganza agakoresho kifashishwa mu gukora isuku mu kanwa, kugira isuku mu menyo ni ingirakamaro kuko bituma tugira ubuzima bwiza budafite indwara zo mu kanwa.

Umugabo ufite agakoresho kifashishwa mu gusukura mu kanwa, ari mu cyumba gisizwe irange ry'umweru, kiririmo urumuri, yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru, kugira isuku mu kanwa ni ingenzi kuko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye zo mu kanwa.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, kirimo urumuri, gisizwe irangi ry'umweru ndetse harimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura by'ikoranabuhanga, kwivuza ni ngombwa kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Itsinda ry'abantu benshi bari kuri tapi harimo abagabo, abagore, abirabura ndetse n'abazungu, harimo abahagaze ndetse kandi n'abicaye, mu bahagaze harimo umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse uri guseka.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo itara riri kumurika ndetse gisize irangi ry'umweru. Kirimo ibikoresho byiganjemo ibyifashishwa mu buvuzi bw'ikoranabuhanga, harimo intebe zirimo ibara ry'ubururu ndetse n'utubati twubatse neza dufite ibara ry'umweru.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umweru, kirimo umuganga wambaye impuzankano iririmo ibara ry'umweru ndetse na ga irimo ibara ry'ubururu afashe ikaramu, imbere ye hari umugabo uri guseka wambaye ishati ndetse wicaye ku ntebe ivurirwaho abarwayi.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, kirimo umuganga, wambaye ishati, isaha ku kuboko ndetse n'itaburiya y'umweru, imbere ye hari ibikoresho bitandukanye, harimo ikigaragaza uko mu kanwa hateye.

Icyumba gisizwe irangi ry'umweru kirimo urumuri ndetse n'abantu babiri, harimo umuganga wambaye agapfukamunwa, impuzankano y'abaganga ndetse na ga mu ntoki, ari gukoza utwuma tubiri mu kanwa k'umugore ufite imisatsi y'umukara ndetse bambaye iherene ku gutwi.

Abana benshi bambaye impuzankano y'ishuri bari kwiborosa bakoresheje uburaso bwabugenewe. Imbere yabo hari umwana w'umukobwa wambaye ishati y'ubururu ndetse wamanitse uburoso. Kugira isuku mu kanwa ni byiza kuko birinda indwara zo mu kanwa.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo urumuri, harimo abana babiri, umuganga wambaye agapfukamunwa, ga z'umweru mu ntoki ndetse afite agakoresho kifashishwa mu gusukura mu menyo. Imbere ye haryamye umurwayi, ufite derede z'umukara, wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru ndetse ufite uturongo twinshi tw'umukara.,

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo urumuri ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura by'ikoranabuhanga, kwivuza ni ngombwa kuko bituma tugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugabo w'umwirabura uri guseka, ufite ubwanwa bw'umukara, yambaye ubusa hejuru, afite akadodo kifashishwa mu gusukura amenyo, kugira isuku mu kanwa ni ingirakamaro, kuko bidufasha kwirinda indwara zo mu kanwa, ndetse no kugira umwuka mwiza

Imbaga nyamwinshi y'abana b'abanyeshuri, bambaye impuzankano y'ishuri, bari gukora isuku yo mu kanwa, bakoresheje uburoso bwabugenewe ndetse n'udukombe turimo amazi. Kugira isuku mu kanwa ni byiza kuko bituma twirinda indwara zo mu kanwa.

Umugore w'umwirabura ari mu cyumba kirimo urumuri yambaye ingofero iri mu ibara ry'umweru, ari guseka ndetse afite akuma mu ntoki kifashishwa mu gukora isuku mu memyo, kugira isuku ni ngombwa kuko bidufasha kwirinda indwara.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi bw'amenyo, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye byifashishwa mu kuvura, harimo umugore ufite imisatsi y'umukara wicaye ari kwireba akoresheje indorerwamo.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo abantu batatu, harimo umurwayi umwe ndetse n'abaganga babiri, umuganga umwe yambaye amarinete, agapfukamunwa ndetse na ga, ari gukora mu kanwa k'umurwayi.

Umwana muto w'umwirabura ufite amenyo y'umweru, afite uburoso mu ntoki, yambaye ishati iri mu ibara ry'umweru, kuborosa ni ingirakamaro kuko byongera isuku yo mu kanwa ndetse bikanarinda indwara ziterwa n'isuku nkeya yo mu mubiri ndetse no mu kanwa.

Umusaza ufite imvi z'umweru wambaye amarinete, ufite ubwanwa yambaye kuteri mu matwi n'umupira uri mu ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, ari gukora umwitozo ngororamubiri akoresheje utwuma twabugenewe.

Icyumba gisizwe irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye, higanjemo amatara amurika, kirimo umugore wicaye uri gukora imyitozo ngororamubiri, ufite imisatsi y'umweru, wambaye isengero y'ubururu ndetse n'inkweto zifashishwa mu gukora siporo.

Inzu ifite inzugi zifite ibirahuri binini. Imbere yayo hari umusaza wicaye mu kagare k'abamugaye ufite imvi z'umweru. Imbere ye hari umugore ufite ibisuko by'umukara wambaye impuzankano y'abaganga. Serivisi z'ubuvuzi ni ngombwa kuko zifasha abantu batandukanye harimo abasaza, abakecuru, abana, abagore, ndetse n'abagabo.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo urumuri, harimo abana babiri, umuganga w'umugore wambaye impuzankano y'abaganga, iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ikarita y'akazi, iri mu ibara ry'umweru n'ubururu, afite imisatsi y'umukara, imbere ye hari umusaza wicaye, wambaye amarinete, ufite imvi z'umweru, uri gufashwa na muganga gukora siporo, akoresheje akuma kabugenewe.

Icyumba cyiza kirimo urumuri, gisizwe irangi ry'umweru, harimo umukecuru, ufite imvi z'umweru, wambaye amarinete ndetse n'imyenda iri mu ibara ry'ubururu, imbere ye hari umusaza uri kunywa amazi, wicaye ku gitanda kiriho imisego.

Icyumba kirimo urumuri, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo itara rigezweho riri kumurika. Harimo abantu babiri, umuganga w'umugore w'umuzungu, wambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'ubururu. Imbere ye hari umukecuru, wambaye ikoti riri mu ibara ry'umweru.

Ikibuga cya basikete kizitiye, kirimo abantu babiri: umugabo wambaye umupira, ikabutura n'amasogisi biri mu ibara ry'umweru ndetse n'inkweto z'umukara. Imbere ye hari umwana w'umukobwa wambaye ipantaro, afite balo ya basikete mu ntoki.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bahagaze higanjemo abagore. Hari umukecuru ufite imvi z'umweru, wambaye agapira k'ubururu, witeze umushanana w'umweru. Iruhande rwe hari umusaza wambaye ingofero ndetse n'ishati y'umweru.

Icyumba cyiza kirimo urumuri, kirimo abantu babiri, umugore w'umuganga ufite imisatsi y'umukara, wambaye impuzankano y'ubururu, iruhande rwe hari umusaza wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, afashe ku twuma tubiri dutambitse.

Icyumba kinini kirimo urumuri, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo umusaza ukuze, ufite imvi z'umweru, wambaye amarinete ari kwandika akoresheje ikaramu. Imbere ye hari imeza iririho ibikoresho bitandukanye, harimo amakayi n'ibindi.

Icyumba kirimo urumuri, gisizwe irangi ryumweru, kirimo idirishya rinini, hari abantu babiri, umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, ari gufasha kunywa imiti umusaza wambaye umupira w'umukara, ufite ubwanwa bw'umweru, imbere ye hari imeza iriho mudasobwa ndetse n'ikirahuri cy'amazi.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, cyicayemo abantu batandukanye, higanjemo abazungu ndetse n'abirabura. Hari umugore w'umuganga wambaye impuzankano yab'abaganga iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse, ari gusunika akagare k'abarwayi, kicayeho umugabo w'umusaza ufite imvi z'umweru.

Akayira gato kubakishijwe amatafari ahiye gakikijwe ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi, karimo abagabo babiri bafatanye ku rutugu, umwe muri bo yambaye ipantaro y'umukara n'ishati ndetse n'ingofero, undi yambaye umupira w'ubururu.

Icyumba cyiza kirimo urumuri, kirimo abana babiri, umukobwa uri guseka ufite ibishuko by'umukara, wambaye impuzankano y'abaganga, afashe mu gituza cy'umubyeyi ufite imisatsi y'umukara, wicaye mu ntebe ndetse nawe uri guseka.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo abantu babiri, umusaza ufite imvi z'umweru, wambaye ishati y'umutuku irimo imirongo, imbere hari impapuro zisa n'umweru ndetse na terefone, hirya ye gato hari umukecuru uri gukoresha mudasobwa wambaye amarinete.

Icyumba gikorerwamo imirimo y'ubutetsi, kirimo abantu batatu, umusore wambaye umupira w'umutuku ndetse ufite isahani iriho umugati, iruhande rwe hari umubyeyi ufite imvi z'umweru wambaye amarinete, hirya gato hari umukobwa wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo urumuri, kirimo abantu babiri bicaye, umuganga ufite imisatsi y'umukara wambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, ndetse ari gupima umuvuduko w'amaraso umusaza wicaye wambaye amarinete, ufite ubwanwa bw'umweru.

Umurima urimo abantu benshi, higanjemo abagore bari gusarura icyayi, umwe muri bo ateze igitambaro mu mutwe, yambaye ikanzu y'ubururu, icyayi ni igihingwa cy'ingirakamaro kuko gitanga amafaranga binyuze mu gusarurwa kikoherezwa mu mahanga.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari ahiye, irimo ibikoresho bitandukanye higanjemo intebe. Irimo abantu babiri, umuganga w'umuzungu w'umugore, wambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'ubururu. Ari gufasha kugorora umugongo, umusaza wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo urumuri, gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, kirimo amararido y'umweru, hicayemo umugore w'umuganga ufite imisatsi y'umukara, wambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hari umugabo w'umusaza ufite ubwanwa burimo imvi z'umweru, wambaye ishati.

Icyumba kirimo urumuri gifite amadirishya ari mu ibara ry'umweru. Kirema abantu babiri: umukecuru wicaye wambaye marinete, ufite imvi ari gukata imboga rwatsi. Iruhande rwe hari umukobwa afite amaherena ku matwi, imbere ye hari igikoresho gikozwe mu ikirahuri.

Inzu nziza, irimo ibikoresho byo mu nzu bitandukanye, higanjemo intebe ziri mu ibara ry'umukara, harimo idirishya rinini, ririho irido, harimo kandi abantu babiri, umukobwa w'umuganga uri guseka, imbere ye hari umukecuru, wambaye imyenda irimo ibara ry'umweru ndetse ufite imvi.

Abagore batatu bakuze, bari guseka ndetse bari kwifotora, umwe muri bo afite imvi z'umweru ndetse yambaye umupira ufite ibara ry'umweru, iruhande rwe gato hari umugore ufite telefone mu kiganza wambaye umwenda w'umuhondo, iruhande rwega nanone hari umumama wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, higanjemo imbuto, ririmo abagore benshi, umwe muri bo, afite imvi z'umweru, yarambuye amaboko ndetse yambaye imyenda idozwe mu gitenge. Inyuma yabo, hari imbuto zitandukanye, ziganjemo amaronji.

Umuganga w'umugore ufite ibisuko biririmo ibara ry'umukara, yambaye agapfukamunwa ndetse n'impuzankano y’abaganga iri mu ibara ry'icyatsi. Afite mu matwi akuma ari gukoresha apima. Umusaza ubyibushye, wambaye ishati y’ubururu, n’agapfukamunwa, wicaye mu ntebe.

Icyumba kirimo tapi y'ubururu cyicayemo imbaga nyamwinshi higanjemo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari itsinda riri kubyina ririmo abasore ndetse n'inkumi, inyuma yabo hari icyapa gifite ubuso bw'umweru cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Icyumba kinini gikorerwamo inama, kirimo urumuri, cyicayemo imbaga nyamwinshi yiganjemo abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'umutuku, imbere yabo hari abantu bicaye mu ntebe higanjemo abagabo.

Icyumba cyifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, kirimo urumuri, abaganga babiri, bambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'ubururu ndetse bambaye ga mu ntoki zabo. Umwe muri bo afite icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kuvura.

Itente ry'umweru, iruhande rwaryo hari abaganga babiri, bambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, umwe muri bo ari gusuzuma amenyo y'umurwayi, wambaye imyenda y'umukara ndetse n'ingofero y'ubururu.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'umukara werurutse, cyanditsweho amagambo ari mu mabara atandukanye, yiganjemo ay'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, ayo magambo agaragaza ko gukora imyitozo ngororamubiri, biri muri bimwe birinda indwara ya kanseri.

Icyapa kiriho ikirangantego cy'igihugu cya Uganda kigizwe n'amabara atandukanye higanjemo ay'umuhondo n'umweru, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umutuku. Hejuru yayo hari umugore w'umuganga ufite imisatsi y'umukara uri gutera urushinge umuhungu wambaye agapira k'umweru wicaye.

Umugore ufite ibisuko by'umukara, wambaye amarinete, iherena ku gutwi, yambaye ikote, ikarita y'akazi iri mu ibara ry'ubururu, umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, afite mikoro, inyuma ye hari icyapa gifite ubuso bw'umweru.

Icyapa kigizwe n'amabara y'umweru na oranje, kiriho madamu Jeanette Kagame, umugore wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, wambaye amarinete, ndetse n'ishati y'ubururu, imbere ye hari mikoro.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'umweru kiriho umujyi ugizwe n'amazu ageretse, imbere yawo hari umukobwa wambaye ijipo y'ubururu ndetse n'agapira k'umutuku, iruhande rwe hari inzu ya convention centre iberamo imyidagaduro. Cyanditsweho amagambo ari mu mabara atandukanye higanjemo ay'icyatsi agaragaza umunsi w'abarwayi ba diyabete.

Icyapa gifite ubusa bw'ubururu bwijimye, kiriho umuganga wambaye agapfukawa k'umweru ndetse n'itaburiya y'abaganga ari gukingira umugabo wicaye wambaye ipantaro y'umuhondo ndetse n'umupira w'ubururu, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru agaragaza ko kwikingira kovide cumi n'icyenda ari imwe mu nzira zo kwirinda.

Abantu babiri bahagaze kuri tapi ifite ibara ry'umukara, harimo umugabo n'umugore, umugabo yambaye ipantaro, umukandara ndetse n'ishati, umugore yambaye inkweto z'umukara ndetse n'ikarita y'akazi ifite ibara ry'umweru, inyuma yabo hari intebe zifite ibara ry'umweru ndetse n'icyapa cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Umugabo w'umuzungu, wambaye ingofero, amarineti ndetse n'umupira w'umukara. Afite urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, agaragaza ko urukingo rw'indwara ya Monkey pox rwabonetse. Inyuma ye hari igiti ndetse n'amazu menshi ageretse.

Icyapa kiriho abakozi bakora imirimo itandukanye, higanjemo abaganga bambaye amatabu y'imyeru ndetse n'abambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, kiriho umuhinzi wambaye ingofero wunamye uri guca ibyatsi cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru, agaragaza ko kwiga ari imwe mu nzira yifashishwa mu gusigasira amajyambere.

Icyumba gisizwe irangi ry'umuhondo gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kimanitsemo ibipapuro bitandukanye biriho amashusho y'abantu. Cyicayemo abagore bateruye abana bategereje serivisi z'ubuvuzi, kwivuza ni ngombwa kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Icyapa gifite ubuso bw'ubururu, kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, imbere y'acyo hari abamasera batatu, bambaye impuzankano ndetse n'amarinete, hagati yabo hari umugabo, uri guseka wambaye isaha, ikote rya kositimu, ndetse n'ishati y'umweru.

Icyumba kinini gikorerwamo inama kirimo urumuri, cyicamo imbaga nyamwinshi, higanjemo abagabo. Imbere yabo hari abagabo babiri bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'umukara, imbere yabo hari mudasobwa n'indangururamajwi ndetse n'amacupa arimo amazi.

Icyapa kiriho umubyeyi wicaye uteruye umwana, iruhande rwe hari abana bato batatu, babiri muri bo bambaye impuzankano z'ishuri, imbere yabo hicaye umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umweru. Cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Inzu nini ikorerwamo inama, ishyizwe amarangi atandukanye higanjemo ay'umuhondo ndetse n'umutuku wijimye. Kirimo abantu batandukanye barimo abagabo, abagore ndetse n'abazungu. Umwe muri bo yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru.

Icyapa gifite ubuso bw'umweru, gishushanyijweho ikarita ya afurika, kiriho umugore ukenyeye igitambaro, ateru uyu mwana, inyuma ye hari abantu benshi higanjemo abanyeshuri, bambaye impuzankano igizwe n'ishati y'umweru ndetse na karuvati irimo ibara ry'umukara.

Inyoboko y'ibyumba by'amashuri bya kaminuza nkuru y'u Rwanda, irageretse, isizwe irangi ry'umweru, imbere yayo hari ibiti, igipangu ndetse n'akayira kubakishijwe amatafari karimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umutuku.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kimanitsemo igishushanyo kiriho imisozi, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura ndetse n'igitanda kiryamaho abarwayi gifite amashuka arimo ibara ry'umweru ndetse n'umusego.

Ibitaro byubatse neza bigeretse bisizwe amarangi atandukanye, higanjemo ay'umuhondo n'umukara, imbere y'abyo hari umuhanda w'umukara, urimo abantu batandukanye, higanjemo abagabo n'umukobwa umwe, umwe muri bo yambaye ipantaro y'umukara, ndetse n'ishati y'umweru.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo umuganga w'umuzungu, wambaye impuzankano y'abaganga, iri mu ibara ry'ubururu, ufite igitabo, imbere ye hari umuganga w'umwirabura, wambaye itaburiya y'umweru, ufite ikaramu, uri kwandika, imbere ye gato hari umugore witeze igitambaro mu mutwe.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibitanda by'abarwayi, kimwe muri byo kiryamyeho umuntu, iruhande rwacyo hari mu umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umukandara, ari kumanika supanete.

Umuhanda w'igita urimo utugaraviye ushinzemo icyapa gifite amabara y'ubururu n'umweru, kiriho ikirangantego cya Repubulika y' u Rwanda, hirya y'aho hari inzu iri mu gipangu yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amabati y'ubururu.

Inzu nyinshi zigize ikigonderabuzima zisizwe irangi ry'umweru ndetse zubakishijwe amatafari ahiye. Hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Imbere ye hari imbuga yubakishijwe amapave.

Ibitaro bifite amabati y'ubururu, byubakishijwe amatafari ahiye, imbere yabyo hari imbuga yubakishijwe amapave, irimo abantu batandukanye. Harimo umugabo wambaye ishati y'umweru, agapfukamunwa, ufite inkoni y'ababana n'ubumuga bwo kutabona ndetse yambaye n'inkweto.

Inzu nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo amadirishya manini arimo ibirahuri, isizwe irangi ry'umweru ndetse irimo sima iri mu ibara ry'umukara. Irimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gukora siporo, siporo ni ingirakamaro kuko ituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari icyapa kiri mu buso bw'ubururu, cyanditsweho amagambo mu ibara ry'umweru, agaragaza ivuriro rya Nyanza, iruhande gato hari igipangu kiri mu mabara y'ubururu, muri icyo gipangu hari ibitaro, byubakishijwe amatafari ahiye.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwaho hari igipangu cyubakishijwe ibyuma, gifite inkingi zibakishejwe amatafari ahiye, imbere gato haparitse imodoka ziganjemo izifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, hirya y'aho hari inzugere igeretse kabiri, isizwe irangi ry'umweru yubakishijwe amatafari ahiye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi gisizwe irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura, serivisi z'ubuvuzi ni ngombwa mu baturage kuko zituma abaturage babaho neza bafite ubuzima bwiza butagira indwara.

Ikigo nderabuzima gisizwe irange ry'umuhondo, cyubakishijwe amatafari ahiye, hariho abagore bicaye bategereje serivise z'ubuvuzi. Imbere yacyo, hari indabo. Ubuvuzi ni ngombwa mu baturage kuko bubafasha kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyo ku bitaro, gisizwe irange ry'umweru, kirimo umugore uryamye ku gitanda, wambaye ikanzu y'ubururu, iruhande rwe hari umugabo, wambaye amarinete, karuvati, ishati ndetse n'ipantaro y'umukara. Iruhande rwe nanone, hari umugore ufite ibisuko by'umukara.

Umuhanda munini w'umukara, iruhande rwawo hari ibyatsi birimo inzu ifite amadirishya y'umukara igeretse kabiri, urundi ruhande rurimo inzu ifite fondasiyo y'amabuye, yubakishijwe amatafari ya ruriba, umuhanda wa kaburimbo ni ingenzi kuko ufasha abaturage gucishamo ibinyabiziga bitandukanye bibafitiye umumaro wo kubavana ahantu hamwe bikabageza ahandi.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo urumuri ndetse n'ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura. Kirimo umwana w'uruhinja uryamye mu gatanda k'abana. Imbere ye hari umuganga wambaye ga z'umweru ndetse n'ingofero y'umweru, n'impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo itara rimurika, gifite idirishya rinini, rikikijwe n'irido, gifite kandi parafo n'amakaro biri mu ibara ry'umweru. Harimo agatanda gato karyamaho abana. Inyuma y'ako hari agatebe gato kari mu ibara ry'umweru ndetse n'akabati kari mu ibara ry'umuhondo n'umweru.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi gisizwe irangi ry'umweru, kirimo amatara amurika ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi ku baturage batandukanye. Serivisi z'ubuvuzi kandi ni ingirakamaro kubera ko zifasha abaturage kugira ubuzima buzira umuze.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, kigereritse kabiri, gisizwe irangi ry'umuhondo, kiriho abantu baje gushaka serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, ku nyubako y'acyo ya mbere, hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ikabutura ndetse n'inkweto z'umukara.

Inzu nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo inkingi zisizwe irangi ry'umweru ndetse n'amatara amurika, hari ibikoresho bitandukanye byiganjemo ariteri ndetse n'ibindi, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Inzu y'ikigo nderabuzima, ivurirwamo ababyeyi, ifite amabati ari mu ibara ry'ubururu, isizwe irangi ry'umuhondo ndetse yubakishijwe amatafari ahiye. Imbere yayo gatoya, hari imbuga irimo utubuye twinshi.

Icyumba kinini cyifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umweru ndetse n'irya oranje, kirimo ibitande biryamaho abarwayi, hejuru yabyo hamanitse supamanete ziri mu ibara ry'umweru.

Icyumba cyiza kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umweru, kirimo abaganga bane bambaye impuzankano y'umweru. Serivisi z'ubuvuzi ni ngombwa mu baturage kuko zibafasha kurinda ubuzima bwabo ndetse no kubavura indwara zitandukanye.

Itente ry'umweru ririmo abantu batanu, abaganga batatu bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru, umuganga umwe w'umugabo aricaye ndetse ari kwandika, abandi babiri b'abagore barahagaze. Umwe w'umugore ari gupima umurwayi wambaye amarinete.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo urumuri, kirimo ibitanda by'abarwayi, kimwe muri byo kiryamyeho umuntu, hejuru ye hari supanete ziri mu ibara ry'ubururu, iruhande rw'umurwayi hari icyuma cyifashishwa mu kuvura, cy'ikoranabuhanga.

Umuhanda w'igitaka, urimo amarembo yubakishijwe ibyuma, yanditsweho mu magambo ari mu ibara ry'umweru, agaragaza ibitaro bya Kabgayi, imbere yayo hari abantu bambaye imyenda y'ubururu, ndetse n'umusore utwaye igare, imbere ye hari amazu yubakishijwe amatafari ahiye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umweru. Harimo intebe ziganjemo iz'icyatsi ndetse n'umukara. Gishushanyijemo kandi ibishushanyo by'amaso. Serivisi z'ubuvuzi ni ngombwa ku baturage kuko zibafasha kwirinda indwara.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umweru, kirimo amarido meza ndetse n'utubati, kirimo intebe ameza ariho mudasobwa, hejuru y'akabati hateretse udukoresho dutandukanye turimo utugizwe n'ibara ry'umuhondo.

Ikigo nderabuzima cyubakishijwe amatafari ahiye, gifite amabati ari mu ibara ry'ubururu. Kiriho ibyapa bibiri, kimwe muri byo gishushanyijeho ijisho. Iruhande rw'ibitaro hari indabo z'umuhondo ndetse n'akayira kubabakishijwe amapave.

Umujyi mwiza ugizwe n'imisozi iteye ibiti imbere yayo hari amazu yiganjemo afite amabati y’umutuku n’ubururu asizwe amarangi y'umuhondo hagati muri yo hari umuhanda w’umukara imbere yawo hari ubusitani bwiza bwi’ndabo buririmo abana batandukanye harimo umugabo wambaye umupira w’umutuku ndetse n'ikoboyi.

Inzu nziza igeretse iteyeho amarangi w'umukara n'ubururu, imbere yayo hari ikibuga giparitsemo imodoka nziza, iri mu ibara ry'umweru ndetse n'abantu batandukanye, umwe muri bo yambaye imyenda ifite ibara ry'umukara.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, gisizwe irange ry'umweru, kirimo itara rimurika ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura, kirimo intebe ndetse na gatanda k'abarwayi, kifashishwa mu gutuma bamera neza, kari mu ibara ry'umweru

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi gisizwe irangi ry'umweru, kirimo itara rimurika, intebe y'umukara ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gutanga serivisi hakoreshejwe ikoranabuhanga, ubuvuzi ni ngombwa kuko butuma abaturage babaho neza.

Inzu nini itangirwamo serivisi zubuvuzi, irimo inkingi zisizwe irangi ry'umweru. Harimo amadirishya afite ibirahuri ndetse ari mu ibara ry'umukara, harimo kandi ibitanda byinshi biryamaho abarwayi, kwivuza ni ngombwa mu gihe wumva umubiri wawe utameze neza.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi cyubakishijwe amakaro, kirimo umuganga w'umugabo wambaye ishati, itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara aricaye, inyuma ye hari igikoresho cy'ikoranabuhanga kiri mu ibara ry'icyatsi cyifashishwa mu gupima indwara mu bantu.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umweru kirimo Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi higanjemo intebe z'abarwayi ziri mu ibara ry'umuhondo.

Ibitaro byubatse neza, bigeretse, bigizwe n'amadirishya manini afite ibirahuri biri mu ibara ry'umukara ndetse n'inzugi zifite ibirahuri byinshi. Imbere yabyo hari imbuga nini yubatswe n'amapave ndetse n'indabo.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo amatara menshi amurika, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo abaganga benshi batandukanye, higanjemo abambaye amataburiya y'umweru ndetse hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi.

Inzu y'ibitaro itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'ababyeyi yubakishijwe amatafari ahiye, ifite inkingi zisizwe ibara ry'umuhondo. Serivisi z'ubuvuzi ni ngombwa kuko zituma abana, abagabo, abagore ndetse n'abandi babaho neza bafite ubuzima bwiza.

Ikigo nderabuzima gisizwe irangi ry'umweru, kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'icyatsi, hari abaganga batandukanye bambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'ubururu, bambaye udupfukamunwa. Hari indabo ziri mu ibara ry'umuhondo.

Umuganga w’umwirabura ufite umusatsi w’umukara, wambaye amarinete, afite akamwenyu mu maso ndetse yambaye itaburiya y'umweru, mu ijosi rye hari icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu buvuzi, iruhande rwe hari umugore wambaye imyenda y’ubururu.

Ikigo nderabuzima cya Gishwero, gisize irangi ry'umuhondo cyubatswe n'amatafari ahiye imbere yacyo hari abantu batandukanye harimo umuganga n'umugore wambaye itaburiye y'umweru ndetse n'ipantaro. Kwivuza ni ngombwa mu gihe umuntu yahuye n'uburwayi butandukanye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo urumuri, gisize irangi ry'umweru. Kirimo umuganga ufite ibisuko by'umukara, wambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'umweru ndetse yambaye ga mu ntoki ziri mu ibara ry'umweru.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo urumuri, harimo umuganga, wambaye amarinete, agapfukamunwa, ndetse n'itaburiya y'umweru, ari gutanga serivisi z'ubuvuzi ku mwana muto w'uruhinja, wambaye imyenda y'umweru, uterurwa n'umugore, wambaye isengeri, iri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kinini gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, kirimo amatara menshi amurika, gisizwe irangi ry'umweru, harimo kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi, serivisi z'ubuvuzi ni ngombwa, kuko zituma abantu babaho neza, bafite ubuzima buzira umuze.

Ikigo nderabuzima cya Kigina, cyubatswe n'inzuzi zisizwe irangi ry'umuhondo zifite amabati ari mu ibara ry'ubururu, imbere yazo hari igipangu cyubakishijwe inkingi ndende gifite irangi ry'umuhondo, imbere yacyo hahagaze umugore uhetse umwana ndetse wambaye agatambaro k'umweru mu ijosi.

Ikigo nderabuzima kiriha abantu batandukanye, umugabo uhagaze wambaye ikoti ry'umukara umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe gato hari umugore wicaye ndetse n'undi uhaga wambaye amarinete n'umupira w'ubururu, hirya gatoya hari umugabo wambaye amarinete ndetse n'umupira w'ubururu, hirya gatoya hari umugabo wicaye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kuvura ndetse harimo umuganga wambaye agapfukamunwa k'umukara, itababuriya y'umweru, ari kureba imiti igiye itandukanye.

Icyumba kinini gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, kirimo amatara ane amurika ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gutanga serivise, harimo nk'imigezi ndetse n'imashini zitandukanye. Kuvura ni ngombwa kuko bifasha abaturage.

Ivuriro risizwe irangi ry'umuhondo, rifite idirishya rinini, rifite ibirahuri by'umukara, rifite sima isa n'umutuku. Iruhande rwaryo hari akabaraza kubabakishijwe amabati, karimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi.

Ikigo nderabuzima cya Kigina, kigizwe n'inyubako zitandukanye, zisizwe irangi ry'umuhondo ndetse zifite amabati ari mu ibara ry'ubururu. Imbere gato hari igipangu cyubatse neza, kiriho umugore ukenyeye igitenge, uhetse umwana, wambaye agatambaro k'umweru mu ijosi.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi isizwe irangi ry'umweru ndetse irimo amakaro. Harimo kandi amatara amurika ndetse n'ibyumba bitandukanye birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura. Ni ngombwa kugana Ibitaro kuko biduha serivisi zitandukanye zituma tugira ubuzima bwiza.

Inzu nini igeretse, yubakishijwe ibirahuri by'umukara, isizwe irangi ry'umuhondo, imbere yaho hari imbuga, yubakishijwe amapave, irimo ibinyabiziga bitandukanye, higanjemo amamodoka. Imbere yabyo hari igipangu gifunguye, kiriho akazu gato, gasizwe irangi ry'umuhondo.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo tapi y'ubururu ndetse gisizwe irange ry'umuhondo, kirimo urumuri, kirimo nanone ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura. Kwivuza ni ngombwa kuko bitwongerera iminsi yo kubaho, iyo dufite indwara twegera abaganga bakayikiza, bityo tukabaho neza dufite ubuzima buzira umuze.

Inzu nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yubakishijwe amakaro y'umweru, harimo icyumba gikikijwe n'ibirahuri, mo indani harimo amafoto atandukanye, harimo ifoto iriho umugore wambaye amarinete ndetse n'ishati y'umukara.

Inzu nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, irimo amatara menshi amurika ndetse isizwe irangi ry'umweru, irimo intebe ifite ibara ry'umukara, irimo ibyumba bitandukanye birimo urumuri, irimo amakaro ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo urumuri, umugore w’umuganga ufite ibisuko, wambaye amarinete, agapfukamunwa k'umukara ndetse n'amaherena ku matwi, yambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kiririmo urumuri ndetse gisiswa irangi ry'umweru kirimo ibikoresho bitandukanye, higanjemo Airtel gukora siporo ni ingenzi ku umubiri wa muntu kuko bimufasha kugira ubuzima bwiza butagira indwara.

Abaganga batatu b'abagore, bambaye ibitambaro by'umweru mu mutwe ndetse n'impuzankano z'abaganga, ziri mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari indabo, abaganga ni ngombwa, kuko bafasha abaturage mu kubavura ndetse no kwita ku buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo urumuri, ndetse harimo ibitanda byinshi by'abarwayi, hejuru yabyo hamanitse supanete ziri mu ibara ry'umweru, serivisi z'ubuvuzi ni ngombwa kuko zituma abantu babaho neza badafite indwara.

Icyumba kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umweru, kirimo amarado y'ubururu ndetse n'abaganga batandukanye bambaye impuzankano y'umweru ivanzemo tubara tw'ubururu. Hirya gato hari intebe ziri mu ibara ry'umukara, ndetse n'igitanda kiryamye umurwayi.

Inyubako nini y'ibitaro ifite sima y'umweru ndetse na parafo, irimo ibirahuri, isizwe irangi ry'umuhondo, irimo intebe ziganjemo izifite imisego, ibitaro ni ngombwa kuko bitangirwaho serivisi za kuvura indwara mu baturage.

Ikibuga giparitswemo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo ibigizwe n'amabara y'umweru n'umukara, hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umutuku ndetse n'ingofero. Inyuma ye hari inzu igeretse.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amaso, yubakishijwe amakaro ari mu ibara ry'umweru, ifite inzugi nini zifite ibirahure biriho ishusho iriho abagabo babiri bambaye amarinete, mo indani hari umugore uri gukoresha mudasobwa ndetse n'intebe ziri mu ibara ry'umweru, iruhande gato hari indorerwamo nyinshi zifashishwa mu kuvura amaso.

Umurwayi wambaye ishati y'umweru ndetse n'ingofero y'umutuku, imbere ye hari umuganga ufite imisatsi y'umukara, wambaye itaburiya y'umweru, uri gupima umurwayi wicaye ku gitanda, wambaye ingofero y'umukara, inyuma ye hari umwenda usa n'ubururu.

Inzu nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, igizwe n'ibyumba bitandukanye, byiganjemo ibisizwe irangi ry'umweru. Harimo kandi ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, harimo nk'udutanda turyamaho abarwayi. Kwivuza ni ngombwa kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe, gifite icyapa kiri mu ubuso bw'ubururu, kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, cyanditsweho mu magambo ari mu ibara ry'umweru, imbere yacyo hari esikariye ndetse n'igipangu cyubakishijwe amabuye, imbere yacyo hari imbuga nini yubakishijwe amapave.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo amatara amurika ndetse n'amakaro ari mu ibara ry'umweru, harimo intebe z'umukara, imbere yazo hari indorerwamo nyinshi zitandukanye ndetse n'igishushanyo kirimo umugabo wambaye amarinete.

Inzu iriho ibikoresho bibiri biri mu ibara ry'umutuku, byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, imbere yayo hari abagabo babiri, umuganga wambaye amarinete, umupira w'umweru ndetse n'ijiri y'umukara, iruhande rwe hari umugabo uri gupimwa umuvuduko w'amaraso, wicaye mu ntebe ifite ibara ry'umukara.

Inzu nini isizwe irangi ry'umuhondo, yubakishijwe amatafari ahiye, yanditsweho amagambo mu ibara ry'umukara agaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Rwerere, imbere yacyo hari ubusitani bw'indabo buri mu mbuga y'igitaka, inyuma y'ibyo bitaro hari agasozi gatoya kariho igiti gifite amashami manini.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo gucuruza imiti, cyirimo amakaro ari mu ibara ry'umweru. Kirimo amatara atari kwaka kirimo kandi imiti ibitse mu bikoresho bitandukanye higanjemo amacupa ndetse n'udukarito, afite amabara atandukanye arimo umutuku ndetse n'ubururu n'ayandi.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisizwe irangi ry'mweru kirimo urumuri ndetse na parafo, hari amarido agezweho, iruhande rwayo hari ibikoresho byifashishwa mu kuvura ndetse n'agatanda k'abarwayi kari mu ibara ry'ubururu.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, kirimo urumuri, gisizwe irange ry'umweru, kirimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura, ni ngombwa ko umuntu iyo arwaye agana ibitaro, agahabwa serivisi z'ubuvuzi nziza.

Umugabo uri gukora siporo, ari mu cyumba kirimo urumuri, yambaye umupira n'ikabutura biri mu ibara ry'umukara. Gukora siporo ni ingirakamaro kuko bifasha abantu kwirinda indwara ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imbangukiragutabara isizwe irangi ry'umweru, imbere yayo gato hari fondasiyo yubakishijwe amabuye ndetse n'ibiti byiza bifite amashami maremare, ibiti ni ngombwa kuko kubivamo imbaho dukoresha mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo urumuri, gisizwe irangi ry'umweru. Kirimo tapi iri mu ibara ry'icyatsi ihagazeho umuntu uri gukora siporo, wambaye kora y'umukara, ikabutura y'ubururu irimo uturongo tw'umweru ndetse yambaye udukomo twinshi ku maboko. Yambaye umupira w'umukara, afite derede ziri mu ibara ry'umukara.

Umusore w'umwirabura uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye umupira uri mu ibara ry'umukara, ari kunywa amazi akoresheje icupa, siporo ni ingenzi mu buzima bwa muntu kuko ituma umuntu abaho neza, afite ubuzima butagira indwara.

Umugabo munini wambaye isengeri y'umukara, aricaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, ibiganza bye bikoze ku mano ye, gukora siporo mu buzima ni ingenzi, kuko bituma twirinda indwara ndetse tukagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo tapi y'umukara, harimo umugabo uhagaze wambaye imyenda y'umukara, iruhande rwe gatoya hari umugabo upfukamye wambaye umupira w'ubururu, ikabutura y'umukara, ufite ibyuma mu ntoki uri gukora siporo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi akoresheje icupa, afite imisatsi y'umukara ndetse yambaye isengeri, yiteye igitambaro kiri mu ibara ry'umukara ku rutugu, gukora siporo ni ingenzi kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Umugabo w'umwirabura urangije gukora siporo, afite ubwanwa ari kunywa amazi akoresheje icupa, afite agasume k'umweru kari mu ijosi, yambaye umupira w'umukara, gukora siporo ni ingenzi mu buzima bwa muntu.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite imisatsi y'umukara yambaye telefoneni ku kuboko, ndetse ari kunywa amazi akoresheje icupa, yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara. Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza kuko bituma tugira ubuzima bwiza butagira indwara.

Ahantu hasa n'umweru, hari umuntu wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umweru ndetse n'inkweto. Imbere ye hari ibyumba bitatu byifashishwa nk'insimburamubiri z'amaguru. Imbere gato hari kimwe muri byo gifite urukweto rw'umukara.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, kirimo urumuri, vandarateri ndetse n'ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura. Harimo intebe nyinshi ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'utubati dufite ibara ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara, wicayemo umugabo w'umwirabura, ufite ubwanwa, yambaye Isengeri ndetse n'ipantaro bifite ibara ry'umukara, ikiganza cye cy'iburyo gifite icupa, naho ukuboko kwe kw'ibumoso, kuriho isaha y'icyatsi.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo urumuri n'ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gukora siporo, harimo umuntu uri kwiruka wambaye agasengeri k'umweru. Iruhande rwe, hari umugabo wambaye agapfukamunwa, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Icyumba kirimo urumuri, kirimo abantu benshi, bambaye utugofero twambarwa n'abaganga, harimo abagabo bambaye amashati y'imyeru ndetse n'amakote ari mu ibara ry'umukara, imbere yabo hicaye abagore higanjemo abaganga bambaye udupfukamunwa, bari kureba televiziyo irimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru.

Umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri yambaye umupira w'umukara, ari kwimenaho amazi akoresheje icupa, siporo ni ingenzi mu buzima bwa muntu kuko ituma twirinda indwara ndetse tukagira ubuzima bwiza.

Ikiganza cy'inzobe gifite icupa ry'amazi, hirya yacyo hari ibicu byiganjemo, ibifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, amazi ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu kuko afasha abantu gusukura imibiri yabo, umunsi ku munsi.

Umugabo w'umwirabura ufite umusatsi w'umukara wambaye isaha ku kuboko ndetse n'isengeri, ari gukora siporo imbere hari umujyi utagaragara neza. Gukora siporo ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu kuko imufasha kwirinda indwara zitandukanye.

Agakoresho k'ikoranabuhanga, kifashishwa muri serivisi z'ubuvuzi, gakoreshwa bapima umutima, kari mu ibara ry'ubururu, ni ngombwa ko umuntu yegera ibitaro, mu gihe ari kumva atameze neza maze agapimwa, yasanga afite indwara, agahabwa imiti ndetse akitabwaho n'abaganga.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye agapira k'umweru, agakomo ku kuboko ndetse n'impeta ku rutoki, yambaye ipantaro y'umukara. Siporo ni ingenzi mu buzima bwa muntu kuko imufasha kubaho neza ndetse ikamurinda kurwara bya hato na hato.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, kirimo abakinnyi batandukanye, higanjemo abambaye amajeze y'ubururu ndetse n'abambaye amajezi y'umuhondo. Hari kandi abaganga babiri, umugabo n'umugore, bambaye amajire y'umutuku, bari gutanga serivise z'ubuvuzi, ku mukinnyi wavunitse.

Umugore n'umugabo bari gukora imyitozo ngororamubiri, baricaye bari kunywa amazi bakoresheje amacupa, umugabo yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru, umugore amuri inyuma yambaye umupira uri mu ibara ry'umukara.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi gisizwe irangi ry'umweru kirimo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'umweru ndetse na ga, iruhande rwe ku gikuta hari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, kirimo ibitanda by'abarwayi bitandukanye, hejuru yabyo, hamanitse supanete zizinzwe neza. Kimwe muri byo, cyicayeho umwana wambaye imyenda y'umweru, iruhande rwe, hari umugore wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu.

Icyapa kiri mu buso bw'icyatsi kiriho abagabo batatu bambaye kasike n'amapantaro y'imihondo. Bari gukina umupira w'amaguru nyamerika, kiriho kandi amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru agaragaza ko impanuka zishobora kwirindwa mu gukina.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, yambaye ekuteri ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'agasengeri k'ubururu, afite terefone iri ku kuboko ndetse ari kunywa amazi akoresheje icupa riri mu ibara ry'ubururu, imyitozo ngoramubiri ni ingenzi kuko idufasha kwirinda indwara.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara aricaye, yambaye agasengeri ndetse n'ikabutura iri mu ibara ry'ubururu ifite imirongo y'umweru, ari gukora siporo, amaguru ye ararambuye neza, inyuma ye hari itara rimurikira sitade.

Umugabo wambaye ekuteri z'umweru, ndetse n'umupira uri mu ibara ry'umweru, ari kunywa amazi akoresheje icupa. Yambaye isaha y'umukara ku kuboko, ndetse ari gukora siporo. Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi, kuko birinda umubiri wacu guhura n'indwara zitandukanye.

Umugabo w'umuzungu yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati, yambaye mu ijosi igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gupima umutima ndetse yambaye itaburiya y'umweru afite mu biganza umupira wa rugubi.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo rumuri, cyicayemo umugore wambaye umupira, ufite igipfuko ku kuguru kiri mu ibara ry'umweru. Mu gihe duhuye n'ibibazo bitandukanye by'uburwayi ni ngombwa ko twegera ibitaro, tugahabwa serivise nziza.

Icyapa gifite ubuso bw'umweru kiriho ibintu bitandukanye, higanjemo ibyo kunywa ndetse n'imbuto, hari ji isa n'umuhondo iri mu kirahure, iruhande rwayo gato hari metero yifashishwa gupima uburebure bw'ibintu cyangwa se bw'abantu.

Icyapa gifite ubusa buri mu ibara ry'umuhondo, kiriho amashusho atandukanye y'abantu bari gukora siporo, umwe muri bo ahagaze ku kuguru kumwe, ndetse afashe ku ntebe. Cyanditsweho kandi amagambo ari mu ibara ry'umweru, agaragaza uko wakora siporo nyuma yo kumara iminsi wari urwaye.

umuzungu wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara imbere ye hari agatanda kifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi karyamyeho umugabo wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'inkwete za siporo gukora siporo mu buzima ni ingenzi kuko bifasha abantu kwirinda indwara.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa, ari kunywa amazi, yambaye umukufi mu ijosi yambaye ndetse umupira w'ubururu. Kunywa amazi ni ingenzi kuko bifasha ubuzima bwacu kutarwaragurika bya hato na hato.

Icyapa gifite ubuso bw'umweru, kiriho umukobwa w'umuzungu, wambaye agasengeri k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara uri gukora siporo, iruhande rwe hari imbuto zitandukanye ziganjemo imineke, pome ndetse n'amaronji, hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, asobanura imirire iboneye y'umuntu ukora siporo.

Icyapa gifite ubuso bufite ibara ry'ubururu bwererutse, kiriho inshinge ndetse n'ibinini bitandukanye, bifite amabara y'umuhondo, umweru n'umutuku byakoze igishushanyo cy'umuntu, hejuru yaho hari amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu.

Igikoresho gikozwe mu mbaho kiriho ibintu bitandukanye higanjemo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, hari inkweto zifashishwa mu gukora siporo ndetse n'umugozi bakoresha siporo basimbuka, iruhande rwabo hari icyuma cyifashishwa mu gupima umutima.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi akoresheje icupa, yambaye terefone ku kuboko ndetse n'umupira uri mu ibara ry'ubururu, gukora siporo ni ingenzi kuko bituma tugira ubuzima bwiza, butagira indwara.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo urumuri ndetse n'abantu babiri. Umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, isaha ku kuboko. Ari kuzirika ukuguru k'umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse yicaye ku gatanda k'abarwayi, kari mu ibara ry'umukara.

Imashini ipima uko umutima utera, ifite ubuso bw'umukara, inyuma yayo hari agatanda k'abarwayi kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuganga wambaye ingofero y'umweru, itabariya y'umweru, wunamye uri gutanga imiti ku murwayi.

Umugore ufite ibisuko by'umukara wambaye agasengeri n'ibutura by'ubururu ari gukora siporo, hirya ye gato hari amazi magari. Siporo ni ingirakamaro kubera ko ituma umuntu agira ubuzima bwiza butagira indwara.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri irimo abagabo babiri umwe yambaye umupira w'umutuku, ikabutura y'umukara, isaha ku kuboko ndetse n'inkweto z'umukara, undi yambaye ipantaro ndetse n'umupira w'umukara afite umupira mu ntoki.

Umugabo uri ahantu hari kuva izuba, yambaye agasengeri, ari kunywa amazi akoresheje icupa ndetse ari gukora siporo. Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi, kuko ituma umuntu abaho neza afite ubuzima buzira umuze.

Inkweto zifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ziriho icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, hari kandi baro iri mu mabara y'umweru n'umukara, imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku buzima bwa muntu.

Ikibuga kirimo ibyatsi gikinirwamo umupira w'amaguru w'Abanyamerika kirimo abantu batandukanye, harimo kandi abagabo batatu, babiri muri bo barasutamye bambaye imyenda iri mu mabara y'umukara, umwe ari hagati yambaye kasike ndetse n'imyenda iri mu ibara ry'umweru.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo itara rimurika n'ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo, harimo kandi umugabo wambaye umupira w'umukara, uri gukora siporo yifashishije ariteri. Siporo ni ngombwa mu mubiri kuko ituma twirinda indwara.

Umugore ufite imisatsi y’umukara miremire ari gukora siporo, yambaye agasengeri k'umweru ndetse n'ipantaro y’umukara, imbere ye hari amazi magari. Gukora siporo ni ingenzi ku mubiri w'umuntu kuko bimufasha kwirinda indwara.

Icyumba kirimo urumuri, kirimo umukobwa uri gukora siporo ufite imisatsi y'umukara, wambaye isengeri y'umweru ndetse n'ipantaro y'umweru, yicaye kuri tapi y'ubururu, ikiganza cye cyakoze ku kirenge, siporo ni ingenzi mu buzima bwa muntu, kubera ko imufasha kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umweru, kirimo umugabo wambaye ekuteri zifite ibara ry'umweru, isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro, ari gukora siporo ndetse yambaye inkweto zifunze za siporo, gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi kuko bidufasha kugira ubuzima bwiza.

Imbuga nini yubakishijwe amapave, iruhande rwayo hari ibiti. Irimo abantu bari gukora siporo. Umwe muri bo yambaye agapira k'ubururu, gafite nimero y'icyenda yanditswe mu ibara ry'umweru, yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara.

Imbuto nyinshi zirebwa n'umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri, ziganjemo, inanasi ndetse n'amaronji, iruhande rwazo hari ibintu bitandukanye birimo ibinini ndetse n'imidari, gukora siporo ni ingenzi kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba kirimo urumuri gisizwe irange ry'umweru kirimo umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye isengeri y'umweru ipantaro y'ubururu amanitse amaboko ndetse arapfukamye akoresheje ukuguru kumwe. Siporo ni ingenzi kuko ituma tugira ubuzima bwiza.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura, harimo abantu babiri, umwe muri bo ni umuganga wambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'ubururu, imbere ye hari umugabo wambaye umupira w'umukara, uri gukora siporo yifashishije umushumi, uri mu ibara ry'umuhondo.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo umuntu ufite telefone ku kuboko, wambaye ekuteri z'umweru, agasengeri k'umukara ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara. Yambaye inkweto ziri mu ibara ry'umutuku zifashishwa mu gukora siporo.

Icyapa gifite ubuso bw'umweru, kiriho agakoresho kambarwa mu nda gafite amabara y'umukara ndetse n'ubururu, hariho amagambo kandi ari mu ibara ry'ubururu yerekana ko aka gakoresho kagura amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri y'u Rwanda.

Icyumba cyo ku bitaro gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo itara rimurika ndetse na sima y'ubururu na parafo. Gifite kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura, serivisi z'ubuvuzi ni ngombwa mu baturage kuko zibarinda indwara.

Icyumba cyo ku bitaro, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo umuganga w'inzobe, wambaye ishati y'ubururu, ndetse n'ipantaro y'umukara, n'isaha ku kuboko, iruhande rwe hari umurwayi, wambaye agapira k'umukara, karimo uturango tw'umweru, uri gukora siporo.

Abagabo babiri bambaye amajire y'umutuku ndetse n'imipira y'umweru, umwe muri bo yambaye amarinete, bateruye umusore wavunitse, wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari abagabo benshi bambaye imipira y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara.

Igare ryifashishwa mu gutwara abarwayi, rigizwe n'amapine abiri, intebe y'umukara ndetse n'utwuma dutandukanye, harimo utwifashishwa mu kuyisunika. Ni ngombwa ko dukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kuvura kuko byoroshya imirimo.

Inzu nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo tapi y'icyatsi n'umugabo w'umuzungu wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara. Imbere ye hari umugabo w'umwirabura uri gukora siporo, wambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro ifite akabara k'umweru ku ruhande.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo tapi y'umukara ndetse n'abantu babiri, umuzungu wambaye umupira w'umukara ndetse n'isaha ku kuboko, ari gufasha umuntu uryamye wambaye ikabutura y'umukara, amasogisi y'umweru ndetse n'umupira uririmo ibara ry'umweru, gukora siporo.

Umugabo w'inzobe ufite ubwanwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'isaha y'icyatsi ku kuboko, ari kunywa amazi akoresheje icupa, gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi kuko ifasha umubiri kubaho utarwaragurika.

Ikibuga kirimo abakinnyi batandukanye, harimo abambaye amajezi y'umuhondo ndetse n'ay'ubururu, hunamye abaganga babiri, uw'umugabo ndetse n'umugore, bambaye amajire y'umutuku, bari gutanga serivisi z'ubuvuzi ku mukinnyi wavunitse.

Umugore w'umuzungu, uri gukora imyitozo ngororamubiri, ufite imisatsi miremire y'umukara, ari kunywa amazi akoresheje icupa, yambaye isengeri iri mu ibara ry'ubururu, hirya ye hari ikiyaga cy'amazi ndetse n'izuba riri kurasa.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa wambaye umupira w'umukara arigukora siporo. Yambaye isaha ndetse ari kunywa amazi akoresheje icupa. Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi kuko bituma umubiri ubaho neza.

Icyumba cyiza kirimo urumuri, gisizwe irangi ry'umweru. Kirimo uburiri bwicayeho umugore w'umwirabura, ufite imisatsi y'umukara miremire. Warambuye amaboko, wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura, kirimo umugabo uryamye ku gatanda k'abarwayi, kari mu ibara ry'umukara, afite terefone mu ntoki, ari gukoreshwa siporo n'umugabo, wambaye umupira w'umukara.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, kirimo umuganga wambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu ndetse na ga mu ntoki. Ari kwigisha kugenda umurwayi wambaye ikabutura ndetse n'umupira w'umweru. Iruhande rwe gato hari vandarateri.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru kirimo abantu benshi, harimo umuganga w'abakinnyi arapfukamye yambaye umupira w'ubururu, ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto z'umutuku, ari kuvura umukinnyi uryamye wambaye umupira w’ubururu. Iruhande rwabo hari balo yifashishwa mu gukina.

Ikirago kiriho imiti gakondo itandukanye: higanjemo iri mu dukoresho duto dukozwe mu ibumba, hirya yaho hari ikiganza kiri gucucuma ibyatsi, imiti gakonna ni ingirakamaro kuko iba igifite umwimerere.

Icyapa gifite ubuso bw'amabara atandukanye, yiganjemo ay'umweru, kiriho agacupa gato karimo umuti ndetse n'ishusho y'umugore n'umugabo n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, agaragaza ko uyu muti uvura kurangiza vuba, gucika intege ndetse ukaba ukoreshwa mu gutera akabariro.

Icyapa kirimo ubuso bw'umweru, kiriho imiti itandukanye, higanjemo ibitse mu dukarito, dufite amabara atandukanye, arimo umutuku, icyatsi ndetse n'umukara, hari agakarito k'ikawa, iruhande rwako hari agakombe gato.

Imeza ikozwe mu mbaho iriho amakoma menshi hariho imiti gakondo yiganjemo agakwi. amapera ndetse n'ibyatsi, imiti gakondo ni ingenzi kuko yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umugabo utanga serivisi zo gucuruza imiti gakondo, yambaye ishati y'umweru irimo iturongongo tw'umukara, afite icupa mu ntoki ririmo umuti. Imbere ye hari imitwaro y'udukwi duto ndetse inyuma ye hari inzu yubakishijwe imbaho.

Ibyatsi byinshi bitandukanye byiganjemo imiti gakondo hari umuravumba ufite amababi y'icyatsi, imiti gakondo ni ingirakamaro kuko yifashishwa mu guhangamura indwara zananiranye ndetse irizewe.

Icyumba kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umweru, kirimo uducupa dutatu tw'imiti, twiganjemo amabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umweru, iyo umuntu arwaye ni ngombwa ngo afata imiti kuko bituma abaho neza kandi agakira.

Umurima munini uteyemo ibihingwa, urimo abagabo benshi hinganjemoa bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'abambaye imipira ifite ibara ry'umweru, harimo kandi imashini zifashishwa mu guhinga, umurimo w'ubuhinzi ni ingirakamaro, kuko uvamo amafaranga ndetse n'ibihingwa bitunga abantu umunsi ku munsi.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'umweru, kiriho ibyatsi bitandukanye, higanjemo ibimera ifatwa nk'imiti gakondo. Ubuvuzi gakondo ni ngombwa kuko buvura abantu ndetse uba bufite n'umwimerere. Ni byiza kwivuza mu gihe ufite uburwayi runaka.

Ishyamba rigizwe n'ibiti n'ibyatsi binini, imbere yaryo hari abantu babiri: umugabo wambaye ikote ry'umukara, umupira w'umutuku ndetse warambuye amaboko. Iruhande rwe hari umugore uri kuvuga, wambaye umupira w'umweru, witeze igitambaro cy'ubururu.

Ikibuga kigizwe n'ibyatsi, kirimo ururabo rufite amabara atandukanye, higanjemo umutuku n'umweru, inyuma yarwo hari ikimera cya kapusini gifite amababi menshi y'icyatsi, kapusine ni ingenzi, kuko ifatwa nk'umuti nyafurika.

Icyapa kirimo ubuso bw'umutuku bwijimye, kiriho agacupa gato kabikwamo imiti, iruhande rwako hari ikimera gitoshye gifite amababi y'icyatsi, imbere gato hari ibinini biri mu ibara ry'umweru, icyapa kandi cyanditswemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Icyapa kiri mu buso bw'umweru, kiriho ishusho y'amenyo, munsi yayo hari ishusho iriho imiti itandukanye, yifashishwa mu gusukura mu kanwa, hariho umuti uriho igishushanyo cy'igikakarubamba. Cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, agaragaza akamaro k'umuti usukura amenyo.

Ahantu habikwa imiti itandukanye hari uducupa dutoya turimo ibara ry'umweru, twanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara. Imiti ni ingenzi mu bantu kuko yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo n'izanananiranye.

Ipapaye rinini rya kizungu. Rifite ibara ry'icyatsi inyuma ndetse n'ibara ry'umutuku mo indani, rifite utubuto tw'umukara. Ipapayi ni ingirakamaro kuko ni urubuto rwifashishwa mu kwirinda indwara ku buzima bwa muntu.

Icyapa gifite ubuso buri mu ibara ry'umweru, kiriho ibyatsi bitandukanye bifatwa nk'imiti gakondo. Ubuvuzi ni ingirakamaro kuko bufasha abaturage kubaho bufite ubuzima bwiza ndetse bikarinda urupfu rwa hato na hato.